Abamama batatu bari kuvoma kandi bavomerara mu ndobo bambaye ibirenge, nta nkweto bambaye. Ubyibushye ari gutega amazi kugirango ngo ajye mu ndobo neza hanyuma, abandi babiri bari kugenda bayazamura bayakura mu butaka bakoresheje intoki zabo. Ahantu bari kuvomera hari ibikoresho bibafasha kuvoma kandi ivomo bari kuvomeraho rirubakiye inyuma yaryo hari n'igiti.

Abantu batandukanye baricaye abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'imbaho kandi bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Bafite impapuro mu ntoki kandi umwe muri bo yambaye impuzankano z'urwego rushinzwe umutekano mu gihugu. Bicaye mu busitani bw'ibiro by'umurenge baherereyemo.

Umumama yagiye kudaha amazi mu gishanga ari kuyadahira mu njerekani kandi uwo mu mama yambaye umupira w'umuhondo inyuma ye hari umusore uri koza igare hirya yabo hari imisozi hari ibiti bigaragara ko umu mama noneho we ari kureba umuntu usa nk'aho ari kumubwira ikintu kuko biragaraga ko ateze nk'amatwi umuntu uri hirya ye.

Umuntu wagiye ku iriba gushaka amazi, yambaye ibirango by'ubwiza ku kaboko, kandi anakenyeye igitambaro mu mugongo, akikijwe n'ibihuru, n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amazi ku muturage, kigizwe n'ibintu bigiye bitandukanye amazi, izuba ndetse n'amabara atandukanye arimo ubururu ndetse n'icyatsi. Amagambo akiranga, yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza kandi n'inyuma yaho harimo ibara ry'umweru ryiganje.

Umwana wambaye impuzankano z'ishuri, ari gukaraba mu ntoki n'amazi meza ndetse n'isabune, akoresheje kandagira ukarabe. Inyuma ye hari urukuta rw'inzu yubakishije amatafari ahiye kandi uyu mwana bigaragara ko yishimye nk'umuntu ugiye kurya.

Urupapuro rwanditsweho amagambo agiye atandukanye, agaragaza uburyoki ibikorwa by'ubuzima byagiye bikorwa mu gace karimo gakorerwamo ubushakashatsi bugiye butandukanye. Urwo rupapuro rusa umweruru kandi n'amagambo yanditswe yanditse mu ibara ry'umukara atsindagiye, kandi hari n'andi ari mu ibara ry'ubururu. Hagiye harimo ibigendanye n'icyorezo cyaganje isi yose mu bihe byashize.

Umu mama wishimye uri guseka afite imisatsi isutse kandi yambaye n'imyenda y'ibitenge, ni umucuruzi inyuma ye hagaragara ko ari muri etajeri kandi n'ahantu acururiza hagiye harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye amavuta ndetse n'ibintu bigiye bikenerwa mu gikoni.

Umuntu w'igitsina gore ufite isuka mu ntoki, yambaye imyenda isanzwe, yikoreye igitebo kirimo ibiribwa bigiye bitandukanye, iruhande rwe hari inzu isakaje amategura, kandi n'ikirere cy'ahantu ari kirijimye.

Umumama ari koza amenyo, araseka neza, arishimye bafite igitambaro cy'umweru mu mutwe, kandi ari gukoresha akaboko k'iburyo yoza amenyo, hino no muri dushe isize amarangi y'umweru ifite amarido y'umweru.

Umusore mwiza urimo uraseka kandi afite ubwanwa, yiyogosheje neza, afite mu kanwa heza, afite amenyo meza asa umweru kandi n'amaso ye ni meza. Inyuma ye hari urukuta rusa umweru kandi bigaragara ko yishimye cyane.

Mu cyumba cyo kuriramo umusaza ukuze bari kumusukira umutobe w'imbuto kandi nawe ari kurya imbuto zigiye zitandukanye, umusukira ni umubyeyi w'umuzungu inyuma ye hari akabati ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye byo mu gikoni, bigaragara ko bishimye kandi banaganira.

Umuryango wishimye bari guseka bicaye mu ntebe imwe kandi bari mu nzu isa neza isize amarangi asa neza kandi n'amatara ari kwaka mu nzu. Abantu bicaye inyuma yabo hari indabyo kandi n'umucyo w'izuba uri kwinjira uturutse hanze ukinjira mu nzu bakanezerwa.

Umubyeyi ukuze w'umumama uri gukora imyitozo ngororamubiri, afashe ku mano kandi yicaye ku musambi wabugenewe mu gukorera siporo. Ari gukorera ahantu hari igiti inyuma ye ndetse n'itara ryo mu nzu rigezweho. Hari intebe nziza zigezweho kandi n'aho ari, hari ibintu by'ubwubatsi bigezweho.

Umukobwa mwiza wicaye mu ntebe, ari gutanga ikiganiro yambaye neza kandi anambaye impuzankano igaragaza igikorwa arimo, afite igitabo mu ntoki kandi ari no kuvuga yishimye, yambaye amarinete, afite n'imisatsi myiza.

Abantu barahagaze, mu gisambu kinini, inyuma yabo hari ikirango cy'ubururu kandi kigari, kandi ahantu bari haparitse imodoka z'umweru inyuma yabo, ndetse n'uruhande rumwe rurasakaye, bambaye imyenda y'umweru, abenshi muri bo ni abirabura, ariko harimo n'abandi b'uruhu rwera, bagiye batandukanye, harimo kandi n'undi mu musore wambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano.

Abantu benshi bigaragaraga ko bari mu nama kandi ikaba biga ku bintu bifiye nk'igihugu akamaro kuko ugereranyije ukuntu bambaye n'ukuntu basa urabona ko bari kwiga ku bintu bikomeye cyane, ushobora gusanga ari nk'abayobozi cyangwa se bafite ibindi bintu bagiye bahagarariye byitandukanye mu gihugu, icyumba barimo gifite amarangi meza kandi agiye atandukanye n'amatara yaka neza cyane.

Inzu ikorerwamo n'ivuriro ritanga ubutabazi ku buzima, yubakishijwe amatafari ahiye kandi ifite icyuma cyabugenewe mu gutanga umwuka mwiza mu nzu, igiye ifite ibirango byinshi bigiye bitandukanye by'abantu bakorerwamo n'ibyo bakoramo.

Abantu bari ku cyapa kigaragaza ibitaro bivura indwara zikomeye, mu Rwanda. kiri mu busitani busa neza, kandi n'bo bantu barishimye. Harimo abafite uruhu rwera, ndetse n'abafite uruhu rwirabura.

Inzu nziza y'uruganiriro, irimo intebe zikoze mu buryo bwiza kandi bugezweho, irimo n'amashusho magari ari ku gikuta. Igizwe n'ibirahure ndetse n'inkuta ndende. Hasi hakozwe n'ibikoresho bigezweho by'ubwubatsi.

Umwana ukiri mutoya uri gusunika umupapa ukuze mu igare ry'abafite ubumuga, amwerekeje mu ihema rigiye ritatswe n'ibirango by'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, harimo umubyeyi uhagaze mu muryango yiteguye kumwakira.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ikingishijwe inzugi z'imbaho, kandi ifite n'ikoranabuhanga ryo kuzimya amazu mu gihe hayeho igihe cy'umuriro. Ifite amatara ari kwaka cyane, kandi yaka neza. Hari abantu bayikikije basa nk'aho bari gushaka serivise. Ifite ubusitani burimo igiti ndetse n'umunara utanga itumanaho rya telefoni na televiziyo.

Inyubako y'ibitaro ikora ibigendanye n'ubuvuzi bw'abantu, yubatswe mu buryo bugezweho budahungabanya ikirere kandi bwita ku bidukikije, yubatswe n'ibirahure ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye by'ubwubatsi, ifite ikirere cyiza inyuma yayo kandi n'ikirango kigaragaza iyo nyubako imbere yayo, harimo n'ibiti kandi n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragaraho.

Inzu ikorerwamo ubushakashatsi, irimo abantu bagiye batandukanye b'abaganga kandi bafite ubumenyi mu by'ubuvuzi. Ibi bigaragara ko barimo barakora ubushakashatsi kubigendanye n'imiti cyangwa se n'ibindi binyabuzima bitandukanye.

Abantu bafite ubumenyi bari gufasha umuntu waruri gukora siporo akina mu kibuga agira ikibazo bari kumufasha bamuha imiti, bari mu kibuga kandi akikijwe na bagenzi be mu gihe bari kumufasha.

Umukobwa arimo arakora imyitozo ngororamubiri agorora amaguru, umugongo ndetse n'amaboko. Amaboko ye afashe munsi y'inkweto yambaye kandi n'umugongo yawuhinnye uri gukora ku bibero bye. Ni mu kirere gisa neza kandi biragaragara ko aha ari ari muri mu kibuga cy'imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kwifasha mu kwivura, kuko yagize ikibazo mu ivi igihe yakoraga siporo, yambaye imyenda isa ubururu kandi anicaye ku ntebe, ari kwivura yicaye kandi akoresha agatambaro gasa icyatsi kibisi.

Umutobe w'imbuto iri mu gikombe, imboga, inyama z'amafi, imbuto, ubunyobwa, amazi ari mu gikombe, imetero ipima uburebure bw'ikintu ndetse n'icyuma kifashishwa mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa urikora siporo akoresha umusambi wabugenewe, ari mu nzu mo imbere inzu isize amarangi y'umweru kandi yubakishijwe n'amatafari, harimo kwinjira umucyo uhagije w'izuba kuko igizwe n'amadirishya manini, yazamuye amaboko afite n'imisatsi miremire kandi n'agatuza yakigije hejuru.

Imiti yabugenewe ifashasha abatu bari gukora siporo mu gihe yahuye n'ikibazo, ni imiti yo mu buryo bugezweho kandi hagiyemo n'imikasi, amavuta ndetse n'ibindi bikoresho bi bitandukanye, iri mu gikoresho bayibikamo kugira ngo itangirika. Iteretse ahantu hasa umweru, kandi igizwe n'ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo urubyiruko rugiye rutandukanye bari gufata amahugurwa ku bintu bigendanye n'ubutabazi bw'ibanze buhabwa umuntu ugize ikibazo, harimo umwe uryamye hasi basa nkaho abari gufasha ari no ku kiringiti abandi bambaye impuzankano zifite ikirango cy'umusaraba kandi inyuma yabo hari ikindi kirango kigari cy'umusaraba.

Icupa ririmo ubuki, ripfundikijwe umufuniko w'umweru, kandi n'ibirango byaryo bigizwe n'umweru kandi n'umuhondo wa zahabu. Hariho ibirango bigaragaza ikirimo kandi aho cyakorewe n'uburyo gikozwe.